Aha ni aha kubera igikorwa k'inama hari umugabo wambaye impuzankano ya polisi y'u Rwanda, akaba afite indangururamajwi mu ntoki, aho ari kugenda avuga igitekerezo ke bakamwumva, imbere ye hahagaze undi mugabo wambaye ikote ry'ubururu.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu afite indangururamajwi mu ntoki, inyuma ye hakaba hari icyapa kiriho ati "bikoreye mu isibo." Aha rero akaba ari mu nama afite abo ari kubwira kandi n'abo bamukurikiye.

Aba ni abantu bari mu nama, bicaye mu ntebe. Imbere yabo ku meza hateretse amacupa y'amazi. Bose barakurikiye. Harimo abafite amakaramu ndetse n'amakayi bari kugenda bandika ibyo bungukiye muri iyi nama.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari mu nama bicaye mu ntebe nziza cyane. Imbere ya buri muntu hari agacupa k'amazi, bose bakurikiye uri gutanga ikiganiro kandi urabona ko ibyo bari kumva ari ingirakamaro.

Aba ni abantu bari mu nama, bicaye mu ntebe nziza cyane, imbere ya buri muntu hari mudasobwa, ndetse n'icupa ry'amazi, bakaba bari kungurana ibitekerezo ,aho umwe atanga igitekerezo cye, undi akacyunganira bityo bagafata umwanzuro.

Iyi ni inama yahuje urujya n'uruza rw'abantu, bakaba bambaye neza biyubashye, bayikoreye ahantu heza, imbere hari agatapi k'icyatsi kibisi abanyacyubahiro niho bicaye.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari mu nama aho bari kugenda bungurana ibitekerezo mu buryo bugiye butandukanye, bicaye ku ntebe nziza cyane, zifite ibara ry'umutuku, imbere ya buri muntu hari ameza.

Umumama wambaye imyenda myiza cyane n'amarinete. Yambaye isaha ku ukuboko. Akaba ahagaze imbere y'imbaga, ari gutambutsa ikiganiro, aho agenda abibutsa ingingo nyamukuru zigiye kuganirwaho muri iyo nama.

Aba ni abantu bari mu nama. Bakaba bafite amacupa ndetse n'ibirahure birimo amazi. Bambaye imyenda myiza, bari guhugurana. Bafite amakayi ndetse n'amakaramu, uwumvise icyo atazi aracyandika.

Aba ni abantu bahagaze ahantu hamwe, ni inyubako iri kuberamo inama harimo intebe nziza cyane z'umukara, ndetse imbere ya buri ntebe hakaba hari akameza, hari ururabyo rwiza rufite amababi y'icyatsi kibisi, inyuma y'aba bagabo hakaba hari icyapa kiriho amagambo agaragaza igikorwa barimo.

Aba ni abantu bari mu nama bakaba bari mu ngeri zigiye zitandukanye, harimo abaturage basanzwe, hakabamo abayobozi, hakabamo abapolisi ndetse n'abasirikare, imbere yabo hari umuntu uri gutambutsa ikiganiro.

Aba bagabo bashinzwe inzego z'umutekano, igihe cyose bahora biteguye gukorera Igihugu, aha turi kuhabona umupolilisi w'Igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umusirikare w'Igihugu cy'u Rwanda, hagati yabo hicaye umuntu uri kubasinyira amasezerano, bose imbere yabo hari icupa ry'amazi.

I ni inama yahuje abantu b'ingeri zose. Hakaba harimo abo mu nzego z'umutekano, abaturage basanzwe ndetse imbere hari umumama ufite indangururamajwi akaba ari kuvuga igitekerezo cye.

Inama yahuje abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, ababyeyi ndetse n'urundi rubyiruko. Bari mu nyubako nziza cyane ifite icyumba cy'inama, bose bafite amazi yo kunywa, imbere yabo hakaba hari abana bari kubagezaho umuziki bahanze.

Abari beza cyane ni babiri, bakaba bahagaze hagati y'imbaga nyamwinshi, bigaragara ko bari mu birori, bakaba bari kubyina imbyino gakondo nka kimwe mu biranga umuco w'abari b'Abanyarwanda.

Ibi ni bimwe mu bikoresho byakoreshwaga bagaragaza umuco gakondo w'abanyarwanda, aho wasangaga intore zirahira zikizibukira zishinga amacumu ndetse zikaraga n'umugara.

Abari beza cyane bambaye imikenyero bari gushanana, ni imikenyero y'umweru ndetse n'udusengeri tw'umweru bakaba bambaye n'utuntu mu mutwe aho bari kugenda bamurika umuco gakondo kandi bagaragaza ko utacitse.

Mu muco nyarwanda inkongoro ni kimwe mu bikoresho byubashywe, kuko ntawushobora gukina amena inkongoro. Iyi ni inkongoro nziza ikozwe mu giti, ikaba ipfundikiye, ikaba ikunzwe kwifashishwa tuzirikana umuco, tuyinyweramo amata.

Ibi ni bimwe mu bikoresho gakondo, amacumu yifashishwaga mu mikino njyarugamba ndetse no ku rugamba hanyaho, aho wasangaga buri munyarwanda wese atunze icumu mu nzu ye, nka kimwe mu bikoresho byarindaga umutekano.

Gakondo wasangaga abagabo biyogoshesha ibisunzu ndetse n'ibisuguri maze bagasokoza ubwanwa. Uyu nimwe mu bagabo babayeho kera akaba yariyogosheshaga igisunzu agahita asokoza ubwanwa.

Mu muco w'abanyarwanda, bagiraga igiseke ndetse n'inkangara. Bakabyifashisha batuye ababyeyi, abavandimwe ndetse n'inshuti, aho babashyiragamo imyaka igiye itandukanye.

Abari beza cyane bambaye impuzankano y'abakozi bakorera ikigo gishinzwe gukwirakwiza umuriro ndetse n'amashanyarazi mu Rwanda kizwi nka Regi. Ni beza cyane bose bari guseka.

Uy ni umugabo akaba afite icyuma kifashishwa hapimwa ingufu z'umuriro w'amashanyarazi, aha hakaba ari aho isinga zijyana umuriro w'amashanyarazi mu duce tugiye dutandukanye zihurira, akaba ari gupima ngo arebe ko umuriro uhagije.

Umusaza bashyizeho igitambaro cy'umuhondo, akaba agiye kogoshwa n'umusore wambaye agapfukamunwa k'ubururu ndetse n'agapira ka oranje. Imbere ye hari ikirahure ari kwirebamo, imbere y'umusore ugiye kumwogosha hakaba hari icyuma gisakaza amashusho.

Aha ni aho insinga z'amashanyarazi zituruka cyangwa se zihurira maze zigahita zijyana mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo babashe kugerwaho n'izo ngufu z'umuriro.

Ni icyuma kinini kiriho amashanyarazi hariho isinga nyinshi cyane, hakabaho n'ibisanduku, harimo umuriro mwinshi ujyana mu bice bitandukanye hirya no hino aho umuriro ukenewe.

Uyu ni umugabo usobanukiwe neza cyane ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi, aha bakaba bari kugerageza kugira ibyuma bashyira mu nyanja, kugira ngo bazamure ingufu z'umuriro w'amashanyarazi.

Aha ni ahahurira insinga z'umuriro w'amashanyarazi, hakaba hari amapoto maremare y'ibyuma ariho insinga nyinshi cyane, aha rero abaturage bakabafatiraho umuriro bigatuma babaho babona kandi banezerewe.

Iki ni icyuma kinini kiriho impsinga z'umuriro w'amashanyarazi, aho zigenda ziwujyana mu byerekezo bigiye bitandukanye, hakaba harimo ibisanduku bibiri. Kimwe kiri hasi n'ikindi kiri hejuru. Hari n'inyubako zituwemo n'abantu hafi aho.

Aha ni ahari kubera ibikorwa byo gusana umuriro w'amashanyarazi, harimo abagabo bambaye amajile ndetse n'ingofero zabugenewe, bakaba bambaye na bote. Hari umugabo wicaye hirya, bigaragara ko ariwe uyoboye kino gikorwa.

Umugabo wateye urwego ku ipoto y'amashanyarazi, ari kumanika urusinga agiye kujyana mu kerekezo runaka. Ni byiza ko umuntu yurira ipoto yifashishije urwego kugira ngo atagwa.

Uyu ni umugabo ukora ibijyanye n'amashanyarazi, akaba ari guhuza insinga aho zihurira kugira ngo umuriro wari wabuze mu gace kamwe na ho ubashe kuhagera nta nkomyi kandi ku gihe.

Aha hari ipoto iriho insinga nyinshi cyane zijyana umuriro mu bice bigiye bitandukanye hakaba hari amaduka ari hafi aho, ariho imiryango myinshi cyane yose icururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Aha n'ahaturuka umuriro w'amashanyarazi ukoreshwa hirya no hino mu gihugu, hari ibimashini binini cyane ubona ko biwuzamura mu nsinga ndetse hakaba hari n'ipoto nini ikoze mu byuma byinshi.

Iyi ni inyubako nziza cyane Leta yubakiye abaturage, aho yubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba isakaje amabati y'umutuku. Ni inyubako nyinshi Leta yagiye ituzamo abaturage badafite amikoro.

Iri ni ivomero rusange Leta yubakiye abaturage mu rwego rwo kugira ngo babone amazi meza cyane kandi asukuye, bityo bibarinde indwara ziterwa n'umwanda ukabije ahubwo bagire ubuzima bwiza.

Iyi ni inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ikaba isakajwe amabati atukura, hakaba hari amagambo yanditseho mu ibara ry'umukara agira ati " Ibiro by'Umurenge wa Musheri" hejuru hakaba hariho akapa gakurura amashusho.

Iki ni ikibuga cy'umupira kigezweho leta y'u Rwanda yubakiye abaturage, mu rwego rwo kugira ngo iteze imbere siporo, ndetse n'imyidagaduro. Ni ikibuga kirimo ubwatsi bugezweho kikaba kiriho aho abaje kureba umupira bicara.

Iki ni ikiraro cyiza cyane gica mu kirere kikaba gikoroterijwe senyenge zikomeye ndetse hakaba hari n'inkuta z'isima zigifata ziri mu mabara y'umuhondo ubururu ndetse n'icyatsi kibisi, aho ibi biraro byubatswe ahantu hakunzezwe kwibasirwa n'imvura.

Iyi ni inyubako leta yubakiye abaturage, murwego rwo kugira ngo abarya inyama, bajye bazigurira ahantu heza, bityo bibarinde uburwayi bushobora guterwa n'umwanda, kandi byorohereze n'abacuruzi kubona abakiriya.

Inyubako za leta hirya no hino usanga ziba zubatswe mu buryo bugezweho kandi bwifuzwa na buri umwe wese. Iyi ni inyubako yubakishije amatafari ahiye, ikaba isakaje amabati atukura.

Iyi ni inyubako Leta yubatse mu rwego rwo kugira ngo ijye igororeramo abakoze ibyaha bigiye bitandukanye, harimo umwana w'umusore uvuye kugemura akaba afite igikapu mu ntoki, yambaye ipantaro y'ubururu irimo akarongo k'umweru, umucungagereza ari kumufungurira kugira ngo asohoke

Inyubako nziza cyane kikaba ari igikorwa remezo cyubatswe na Leta y'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo ubwiza bw'u Rwanda bukomeze gusugira ndetse no gusagamba, hakaba harimo Ibendera ry'u Rwanda ndetse hejuru hakaba hari n'insinga ziri kuhaca zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Aba ni abantu bari kwifotoreza imbere y'ikigo nderabuzima, harimo umuganga wambaye impuzankano y'umweru hakabamo abasore bambaye amabaji mu ijosi, inyuma yabo hari ikigo nderabuzima gifite inkuta zisize irangi ry'ubururu.

Aba ni abaturage bahawe inshingano. Bakaba bagiye mu mwanya w'ubuyobozi. Bose bamanitse ukuboko kw'iburyo, inyuma yabo hari idraporo ry'igihugu. Ni imbere y'inyubako y'akagari, aho bamanitse bagira bati" twebwe twiyemeje kuzakorera Igihugu".

Leta y'u Rwanda igenda yubaka ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, aha turi kubona igishushanyo mbonera cy'ivuriro, ni igishushanyobonera kigaragaza ko hazubakwa ivuriro ryiza cyane rizaba rifite inkuta zriho irangi ry'ubururu.

Leta y'u Rwanda yimakaje ubutabera, umuco ndetse n'uburenganzira bwa muntu, aha ni ahabereye igikorwa cyo kwibuka Abatutsi bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, hakaba hari abamama, abapapa ndetse hakaba harimo n'abasirikare.

Leta y'u Rwanda yimakaje umuco w'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu. Aha turi kuhabona umugabo wambaye ishati y'umutuku akaba yatebeje, yambaye n'amarineti, akaba ari guha urupapuro uwambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, inyuma yabo hari abandi bantu.

Aha ni ahabereye ibikorwa by'ibiganiro hakaba hari umupolisi wambaye impuzankano ya polisi, afite indangururamajwi mu ntoki akaba ari kubagezaho ikiganiro kijyanye n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu.

Aha ni ahabereye igikorwa cyo kwibuka, abazize Jenoside yakorewe abatutsi muri Mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Hakaba hari ihema ry'umweru imbere harimo abantu, ndetse imbere yabo hakaba hari amasanduku ariho n'amafoto.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, akaba yambaye karuvate y'umukara, yambaye n'amarinete y'umukara. Imbere ye hari indangururajwi, inyuma ye hakaba icyapa kiriho ijambo kwibuka.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, hakaba harimo ingeri zose harimo abayobozi, hakabamo abana ndetse n'abakuru bakaba bari mu kiganiro kimakaza ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu. Harimo insakazamajwi iri kubafasha kumvikana.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku n'isaha ku kuboko afite indangururamajwi mu ntoki, nta musatsi afite ku twe, inyuma ye hakaba hari abantu. Aha ari imbere iyi nteko, akaba ari gusaba imbabazi.

Iyi ni nyubako itangirwamo ubutabera, hari abahungu n'umukobwa bambaye imyenda y'abakorerabushake, ikaba yubakishijwe amatafarihi ye, isakaje amabati y'ubururu.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe muri sitade, hakaba hari gutangirwa ibiganiro byiga ku butabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu, bose bakurikiye uri gutanga ikiganiro kandi bakaba bari gufata amasomo.

Aba ni abantu bateraniye hamwe bakaba bari mu nama, imbere yabo hari umugabo ukorera Ikigo k'Igihugu cy'Ubugenzacyaha RIB. Akaba ari kugenda ababwira imwe mu myanzuro n'ingamba zafashwe.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, bicaye mu ihema ry'umweru, ritatseho utubara tw'icyatsi kibisi umuhondo ndetse n'ubururu. Hakaba hari umugabo uri imbere uri gutanga imbwirwaruhame, wambaye ishati ndetse n'ipantaro watebeje.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka itukura ifite amapine y'umukara ndetse n'ibirahure by'umukara, hakurya yaho hakaba hari inzu ikorerwamo ubucuruzi, ni inzu nini ikaba iriho icyapa cya Skol kiri mu mabara y'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo uri hagati y'ibiti byinshi cyane. Hepfo hari ibiti ndetse no ruguru hakaba hari ibiti, hari n'icyapa kigaragaza umuhanda. Hejuru hakaba hari ikirere gisa ubururu ndetse n'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo ikinyabiziga cya moto, uyitwaye yambaye kasike, ndetse n'umugenzi atwaye nawe yambaye kasike. Ku ruhande rw'umuhanda gato, hari umugabo wikoreye ijerekani. Hakaba inzu nziza cyane nini, ndetse n'indi ifite urugo rw'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo umuntu nta kinyabiziga kirimo, ibinyabiziga bikaba biri imbere cyane aho byegereye inyubako. Hakaba hari umunara w'itumanaho ndetse n'ipoto iriho itara ryo ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ikaba ifite amabara y'umweru, umukara ndetse n'icyatsi kibisi. Ku ruhande hakaba hari uruzitiro rw'ibyuma.

Aha ni ahgishirizwa gutwara ibinyabiziga, hakaba harimo imodoka ebyiri zifite amabara atandukanye, ndetse hari n'ikona ritukura ndetse ririmo n'akabara k'umweru, aha bigira hakaba ari mu muhanda wa kaburimbo.

Iki ni icyapa kiri imbere y'umuhanda kikaba kigaragaza ko Umurenge wa Karangagazi uciwemo akarongo, hakaba hari amapoto ariho insinga z'amashanyarazi ndetse n'ibiti.

Iyi ni inyubako nziza cyane iberamo imikino igiye itandukanye, aha hakaba hateraniye abayobozi ndetse hakaba harimo n'uwo mu rwego rw'umutekano. Ni umugabo wambaye impuzankano ya Polisi y'u Rwanda, ahagararanye n'abandi bari kungurana ibitekerezo.

Aba ni abantu bari mu muganda rusange, higanjemo abagabo, harimo n'umusirikare ,bateruye amabuye, bakaba bari kwisanira umuhanda wangiritse ,aha hantu hakaba hari amasina meza cyane ndetse n'ibigori.

Aba ni abahinzi bahagaze mu bihingwa byabo bakaba bagiye batandukanye. Ibi bihingwa bakaba baragiye babikorotiriza ibiti ndetse n'imigano kugira ngo babirinde inyamaswa zishobora kubyangiza.

Iyi nyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye bya siporo, hakaba hari abayobozi bagiye batandukanye. Nk'uko bigaragara bari mu mwiherero. Aho bari kuganira ku gitekerezo cy'ukuntu bayiteza imbere.

Aba ni abantu bari mu gikorwa cy'umuganda rusange, aho bari guhanga umuhanda, bafite amasuka bose, inyuma yabo hakaba hari ibiti birebire, ubona ko uyu muhanda uzaba uri ahantu heza cyane.

Leta y'u rwanda yafashe umwanzuro wo guha inka buri muturage wese w'umunyarwanda utishoboye, mu rwego rwo kugira ngo bose bagire ubuzima bwiza, aha hakaba hari umuturage wakoze igikorwa cyo kwitura.

Uyu ni umwana w'umuhungu wambaye agapira k'umukara kariho ikirangantego cya Leta y'u Rwanda, hakaba ari magambo ari mu mpine y'ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima RBC, akaba afite akapa mu ntoki kanditseho ati: "Gerayo amahoro".

Iyi ni inama yabaye yiga ku kibazo cy'umutekano hakaba haje abantu benshi cyane, hari umupolisi uri imbere yabo wambaye impuzankano ya polisi y'u Rwanda akaba afite indangururamajwi mu ntoki, abicaye mu ihema ndetse n'abicaye imbere yaryo bari kumwumva neza.

Aba ni abakinnyi bambaye impuzankano yo gukinana. Bahagaze mu kibuga cy'igitaka, aho bari gukinira. Leta y'u rwanda ikwiye guteza imbere siporo maze ikubaka ibibuga hirya no hino mu gihugu bihagije.

Iki ni ikibuga cy'umupira kirimo abakinnyi bagiye batandukanye. Aba bakinnyi bose bakaba bafite impano yo gukina ariko bari mu kibuga k'ibitaka. Bigaragara ko bakeneye ikibuga kiza kugira ngo bage bakora siporo maze bagorore umubiri.

Ikibuga cy'umupira kiriho ubwatsi butoshye cyane, ufite ibara ry'icyatsi kibisi, harimo uturongo tw'umweru. Hakaba harimo umukinnyi wateye umupira hejuru. Akaba yiteguye kuwusamisha umugongo.

Iki ni igikorwa cya siporo kiba buri wa gatanu wa nyuma w'ukwezi, bakaba bari mu muhanda wa kaburimbo, bari gukora siporo aho bari kuzikora amatara yo ku muhanda abamurikira bari muri kaburimbo nziza cyane.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari inyuma y'ikibuga cy'umupira, bakaba bari mu myitozo ngororamubiri, aho bari kugorora amaboko, amaguru ndetse n'umugongo, bambaye imyenda iri mu mabara agiye atandukanye.

Iki ni ikibuga cy'umupira w'amaguru cyubatswe mu buryo bugezweho, harimo ibyatsi bya kizungu by'icyatsi kibisi, hakaba haciyemo n'imirongo y'umweru, harimo abakinnyi, imbere yabo hakaba hari umuyobozi ndetse n'umusirikare.

Aba ni abakinnyi bari gukinira mu kibuga cy'umupira w'amaguru ariko k'igitaka, hakurya mu byatsi bihari hari umuntu uhicaye hakaba hazengurutsweho igikuta kiza cyane gikorotirijwe utwuma tw'ubururu ndetse n'amatafari.

Iki ni ikibuga cy'umupira, kikaba kirimo ubwatsi bwiza cyane bugezweho bwa kizungu, harimo abakinnyi bari gukiniramo babyibushye ku buryo bukabije, hari n'umusekirite uri ku ruhande na we uri kureba uko bari gukina.

Aba ni abantu bari muri siporo, bari kuzikorera mu kibuga cyiza cyane, cyubatswe mu buryo bugezweho, kikaba kirimo ubwatsi bwa kizungu. Ni ubwatsi busa icyatsi kibisi. Hakaba harimo umurongo w'umweruru, hari umusore uri kugenda abereka ibyo bakora.

Iyi ni siporo rusange ikaba iri kubera inyuma y'ikibuga cy'umupira, aho hari abantu bari mu ngeri zigiye zitandukanye, harimo abana, hakabamo abakuru, ndetse bakaba bambaye n'imyenda igiye itandukanye, inyuma yaho mu kibuga harimo abandi ariko batari benshi.

Iki ni ikibuga cy'umupira w'amaguru cy'igitaka, harimo abakinnyi bambaye imyenda myiza cyane ya siporo ndetse n'amasogisi, Leta y'u Rwanda ikwiye gutera inkunga aba bantu mu rwego rwo kugira ngo babone ikibuga cyiza.

Iki ni ikibuga cy'umupira kikaba kirimo abakinnyi baje gukina, urabona ko habayeho imikino igiye itandukanye haba iy'abari ndetse n'abategarugori, aha hakaba hagezweho iy'abagabo aho bari mu myitozo bakaba bitegura kujya mu kibuga.

Iyi ni siporo rusange iri gukorerwa ku muhanda mwiza cyane wa kaburimbo, aha rero hakaba hari abantu bicaye hasi, aba barimo urubyiruko, hakabamo abakuze ndetse bose bari gukorera hamwe, ubona ko hari umuntu umwe uri kubererekera.

Aba ni abantu bari mu gikorwa cya siporo, bari kwirukanka mu muhanda wa kaburimbo, bakaba bafunze ibipfunsi bose bashyizemo imyuka, iruhande rwabo hari inyubako nziza cyane ndende ndetse hejuru yabo hakaba hari insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Ikibuga cy'umupira kirimo abakinnyi bagiye batandukanye, ni ikibuga cyiza cyane. Cyubatswe mu buryo bugezweho, harimo ibyatsi byiza by'cyatsi kibisi, hakabamo n'abakinnyi bambaye imyambaro iri mu mabara y'ubururu, umukara ndetse na oranje.

Ikibuga cy'umupira cyiza cyane, leta yubakiye abakinnyi kugira ngo bidagadure kandi bagire umusaruro, harimo abari ndetse n'abategarugori, bari gukina umukino w'umupira w'amaguru.

Iki ni ikibuga cy'umupira kirimo abakinnyi, bicaye mu twatsi twiza cyane tw'icyatsi kibisi, imbere yabo hari umutoza afashe indangururamajwi mu ntoki, yambaye agapira k'ubururu, akaba ari kubabwira, aho ari kubibutsa ko intego ari ugutsinda.

Iki ni ikibuga cy'umupira hakaba harimo abakinnyi bari gukina, inyuma hari umumama wambaye agapira ndetse n'ipantaro bigaragara ko ari umuyobozi kandi akaba ari n'umufana, inyuma y'ikibuga hari abana bakiri bato bigaragara ko biga mu mashuri abanza na bo baje kwirebera.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo uturongo tw'umweru. Ni mu masaha y'ijoro, amatara yo ku muhanda ari kwaka ndetse hakaba hagaragara inyubako ziri imbere y'umuhanda n'ibiti birebire byijimye.

Umuhanda w'igitaka uri mu cyaro, uri ahantu hahanamye, hakaba hari umumama uhetse umwana uri kuwumanukamo, bigaragara ko uyu mama nta bwoba agira. Kuko ari kunyura mu muhanda unyerera ahetse umwana.

Uyu ni umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo umanuka mu duce dutuwemo n'abaturage, harimo inzu nziza cyane z'ibisenge, zisakaje amabati atukura ndetse zikaba zubakishije amatafari ahiye, harimo abantu bari kuwugendamo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikoni rikata, ukaba uriho amapoto ariho amatara yo ku muhanda ndetse n'insinga zitwara umuriro mu bice bigiye bitandukanye, hakaba hari abantu batuye hafi aho.

Uyu ni umuhanda wo mu cyaro, uyu muhanda ukaba urimo ibitaka, hari umugabo uri kuwumanukamo, wambaye imyenda y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, iburyo n'ibumoso hakaba hari ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo ugabanyijemo kabiri. Impande z'umuhanda iburyo n'ibumoso hari uturongo dusa umukara ndetse n'umweru. Hakurya y'umuhanda hari indabyo ndetse hakaba n'inzu zicururizwamo inzoga.

Uyu ni umuhanda w'igitaka uherereye ahantu mu cyaro. Harimo umumama wambaye ijakete y'umukara irimo akarongo k'umweru, akaba ari kuwutambukamo. Iburyo bwe ndetse n'ibumoso hari ibiti.

Uyu ni umuhanda w'igitaka, ukaba ari umuhanda urimo ibitaka bijya gusa umutuku, iruhande rwawo hari ibyatsi ndetse n'ibiti. Uyu muhanda ni uwo mu cyaro, ukunda kwifashishwa n'abaturage mu buzima bwa buri munsi.